Icyumba kirimo abantu bicaye harimo abagore n'abagabo, aba bantu bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, bakaba bari kwandika, bigaragara yuko hari ibintu bari gusinya, bifite akamaro kuri bo.

icyumba cyicayemo abantu babiri bigaragara ko ari umuganga n'umurwayi, uwo muganga akaba ari kwita kuri uyu murwayi, afite ikayi n'ikaramu bisa nkaho ari kumubaza ibyo arwaye akabyandika, kandi uwo muganga icyumba barimo kirimo intebe bicayeho n'imeza iteretseho mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu bigaragara ko aba bantu harimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iriho ibipapuro, bigaragara nk' aho bafite ikiganiro bari kuganiraho, hakaba hari umwe uri gutanga ibitekerezo bye, abandi bamuteze amatwi ngo bumve icyo avuga.

Icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko hari umuntu wari urwaye uryamye ku gitanda, akaba hirya ye hari abaganga bamufashaga kugira ngo amere neza, kandi muri iki cyumba hakaba harimo imeza iteretseho mudasobwa, bigaragara ko yifashishwa n'aba baganga bita ku barwayi.

Icyumba kirimo abantu barimo abagore n'abagabo bigaragara ko aba bantu bari mu biganiro kuko bicaye ahantu hari ameza ateretseho ibyo kunywa bari bwifashishe hakaba hahagaze umugabo usa nkahoaho ari kubaganiriza bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga. Ahantu bicaye muri icyo cyumba hakaba hari igikuta gishushanyijeho abantu bigaragara ko hano bahigishiriza urubyiruko.

Hari abantu benshi harimo abagore n'abagabo bigaragara ko ahantu bahateraniye bari mu biganiro kuko imbere yabo hari umuma wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari kuvuga bityo ari kugira ibyo abagezaho nabo bamuteze amatwi.

Icyumba kirimo abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bakaba bisa nk'aho bari kwa muganga, iki cyumba kandi kikaba kirimo ameza bari kwifashisha bandikiraho, bantu bari kwandika bafite amakaramu mu ntoki n'ibipapuro bari kwandikaho.

Icyumba kirimo igitanda kiryamyeho umurwayi, biragaragara ko hano ari kwa muganga, hakaba harimo abaganga bareberera aba barwayi, kandi muri icyo cyumba kikaba gisize irangi ry'umweru, na none icyo cyumba kikaba kirimo imeza iterekwaho ibikoresho bifashisha bavura abarwayi.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, aba bantu bakaba barimo abagore n'abagabo, bakaba bahagaze bisa nk'aho bari kuganira, inyuma yabo iyi modoka y'imbangukiragutabara, ikaba itwara abantu barwaye bagiye kwa muganga, inyuma yabo kandi hakaba hari ibiti birebire.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, akaba yicaye n'umurwayi ari kumwitaho, kandi iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho uyu muganga akoresha yita ku barwayi, akaba hariho n'imeza ibiteretseho.

Icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko harimo igitanda bakiryamaho abarwayi, hakaba haryamyeho umurwayi usa nku'wabyimbye ibirenge kandi hakaba icyo cyumba ya gisize irangi ry'umweru, hakaba muri icyo cyumba harimo abandi bantu babiri basa nk'abari kureba uwo muntu urwaye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri bigaragara ko ari umuganga n'umurwayi, umuganga akaba afite ikaramu n'urupapuro, bigaragara ko asa n'uri kubaza uno murwayi ibyo arwaye abyandika rupapuro, imbere yabo hakaba hari imeza, iyo meza akaba ariyo iteretseho ibyo bipapuro.

Icyumba kirimo abaganga n'umurwayi w'umumama ufite umwana, biragaragara yuko aba barwayi bari kwandikira imiti uno muma kuko imiti ibateretse imbere ku meza ihari, iteretseho na mudasobwa bifashisha bavura aba barwayi.

Icyumba kirimo umugore n'umugabo bambaye impuzankano yabigenewe, biragaragara ko ari abaganga, bakaba bafite ibitabo kurebamo bigaragara yuko hari ibyo bari kurebamo kandi ibi bitabo bikaba biteretse ku meza bifashisha baterekaho bino bitabo.

Ahantu hateraniye abantu barimo abagore n'abagabo biragaragara ko aba bantu harimo abambaye impuzankano yabugenewe basa nk'abaganga kandi aba bantu bikaba bigaragara ko hari igikorwa bari bitabiriye bakaba bahagaze mu muhanda wa kaburimbo, hirya yabo hakaba hari ibiti bishishe bigaragara ko aha hantu habonye imvura ihagije.

Icyumba cyicayemo abantu umugore urimo biragaragara ko ari umuganga kuko yambaye impuzankano y'abaganga, hakaba harimo ameza n'intebe bicayeho, iyi meza ikaba iriho ibikoresho uyu muganga yakwifashisha avura abarwayi bicaye hirya ye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, akaba ari kumwe n'umumama ufite umwana bigaragara ko uno mwana arwaye, kandi kino cyumba kikaba kirimo intebe n'ameza biteretseho mudasobwa uno muganga yifashisha iyo ari guha serivise abarwayi.

Umugore muremure w'inzobe wambaye umupira uciye amaboko, afite indangururamajwi mu ntoki, biragaragara yuko baje mu bukangurambaga bakaba bari kuganiriza abantu bityo uyu muntu ikiganiro ariguha bano bantu kikaba kiri bubafashe, aba bantu na bo bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kuvuga.

Icyumba kirimo abanyeshuri b'inshuke biragaragara ko bafite umwarimu uri kubigisha kuko barahagaze bari gukora ibyo ari kubereka. Iki cyumba kandi kikaba kirimo intebe n'ameza bicaraho iyo bari kwiga.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi biragaragara ko aba bantu bari mu biganiro kandi aba bantu bakaba bambaye impuzankano isa bigaragara ko hari igikorwa cyihariye bari gukora kandi bagasa nk'aho bicaye batuje, bumva ibyo umuntu uri imbere yabo ari kubaganiriza.

Bbantu bateraniye ahantu hari indangururamajwi bigaragara ko aba bantu baje kwitabira igikorwa cy'ibiganiro, hirya y'aba bantu hakaba hari imodoka bigaragara ko ariyo yazanye abantu bateraniye aha kandi bikaba bigaragara y'uko imbere yabo hari nk'umuntu uri kugira ibyo abagezaho.

Ishuri ririmo abana bagaragara ko ari inshuke, hakaba harimo n'abarezi babo, bigaragara ko bari kubigisha kuko aba bana bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariko amakaye yabo, bikaba bisa nk'aho babahaye umukoro bari kuwukora.

Icyumba kicayemo abagore, bakaba bicaye bari kureba umuntu uri kubaha ikiganiro bigaragara yuko ari kubaganiriza, bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga kugira ngo bazabishyire mu bikorwa, na bo bibe byabagirira akamaro.

Icyumba kinini cyicayemo abantu barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye basa nk'aho bari mu nama, inzu bicayemo ikaba yubakishijwe amabuye ahiye, ikaba ifite n'idirishya, iyi nzu biragaragara y'uko bari kuyiganiriramo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isa, bamwe bambaye n'imipira y'imbeho, bigaragara ko bahagaze imbere y'ishuri ryabo kandi aho bahagaze hakaba hari ubwatsi, hirya yaho hakaba hari amashuri bigamo nanone hirya hakaba, hagaragara imisozi bigaragara ko aka gace ari ak'imisozi miremire.

Inzu ndende iriho ijambo bigaragaza ko ari ivuriro, iri vuriro rikaba rifite inzugi zisize ry'umweru, rikaba ryubakishije amatafari ahiye, hirya yaho hakaba hari iduka riranguza ibicuruzwa.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bafite icyapa cyerekana y'uko aha hantu hari habereye ibiganiro bishishikariza aba banyeshuri kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina babinyujije ku kudaceceka, uwahohotewe akabivuga bityo bagakurikirana uwo muntu waba wabikoze.

Ahantu hateraniye abantu barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye bisa nk'aho imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro, hagati yabo hari indangururamajwi iri kubafasha kumva ibyo bari kuvuga kuko bigaragara ko ahantu hari benshi, inyuma y'aho bari kandi hubatse inzu, bigaragara ko aho bicaye hari hasanzwe haba abantu.

Ahantu hateraniye abantu barimo abagore n'abagabo, bisa nk'aho hari ikiganiro bari guhabwa n'umuntu ubicaye hagati, bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira bityo bagire icyo bakuramo nabo bibafashe gutera imbere.

Urubuga ruhagaze rwonyine rusa neza bigaragara ko ahantu ruri habonye amazi ahagije rugakura neza, hirya yarwo kandi hagaragara ibiti bigaragara yuko imboga zihinze ahantu hari ibiti byinshi.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ikote, akaba asa nk'ufite imiti mu ntoki, kandi uno mugabo akaba asa nk'umuganga wa gakondo, akaba akoresha iyi miti avura abarwayi.

Icyumba kirimo abagore n'abagabo bigaragara ko aha ari kwa muganga, aba bagore bakaba bahetse abana bigaragara ko hari serivisi bari baje kwaka kwa muganga kandi hakaba hahagaze umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, bigaragara ko hari icyo ari kubwira bano bagore.

Abagore bateruye abana bari ahantu bisa nkaho ari kwa muganga baje gukingiza bano bana kandi bakaba bicaye ku ntebe bategereje ko abaganga babakira, hirya yaho hakaba hari inzu iri kwakirwamo bano bagore.

Inzu isize irangi ry'ubururu isakaje amabati na yo y'ubururu, ikaba ifite umuryango n'amadirishya, inyuma y'aho hakaba hari ikigega, muri iyi nzu hakaba hicaye abantu bisa nk'aho aha kuri ino nzu hari serivisi iherwa bano baturage.

Umumama muremure w'imibiri yombi wambaye imyenda ikoze mu bitenge, akaba ari hirya y'inzu isize irangi ry'ubururu, rigaragara ko iyi nzu bahatangira serivisi kandi iyi nzu ikaba isakaje amabati agezweho, hirya yayo hakaba n'andi mazu.

Icyumba kirimo umuganga uri kumwe n'umurwayi uyu muganga akaba yambaye impuzankano yabugenewe, akaba ari kwita ku murwayi, muri kino cyumba kandi hakaba harimo ibikoresho bifashisha bita kuri bano barwayikaba harimo n'meza iteretseho bino bikoresho.

Abantu benshi bateraniye imbere y'inzu barimo abagore n'abagabo, inzu bari imbere yayo biragaragara ko ari inzu isize irangi ry'ubururu isakaje amabati, hirya y'iyi nzu kandi hakaba hari ibiti bigaragara ko aha hantu haguye imvura ihagije ibiti bikabona amazi.